Serivisi zitangirwa ku mihanda cyangwa se turiya tuzu tuba turi ku mihanda, ushobora kwakamo serivisi zigiye zitandukanye, ushobora kubitsaho amafaranga, ukayabikuza, ukagura ifatabuguzi ry'umuriro, ukishyura iry'amazi n'ibindi.

Muri iki gihe turimo cy'iterambere ryihuta uba usanga hari ahantu henshi hagenda hatanga serivise zigiye zitandukanye, ugasanga ku muhanda bari gutanga serivise runaka wenda hari gucuruza amayinite, ari gutanga amayinite atanga serivisi z'amayinite, abikuriza amafaranga y'abantu n'ibindi byinshi cyane ari gukora bijyanye na serivise z'itumanaho cyangwa se z'ikoranabuhanga.

Bitewe n'itumanaho aho rigeze cyangwa se iterambere aho rigeze ushobora gusaba serivise zitandukanye, nk'izo kubikuza amafaranga ku mu agenti wa sosiyete runaka wenda ari uwa emutiyene cyangwa se eyateli, kugura amayinite. Byose ushobora kubisanga ku muhanda bitewe na serivise uri gushaka kubera itumanaho aho rigeze cyangwa se iterambere muri rusange.

Muri iki gihe k'iterambere tugezemo usanga serivisi zitangirwa ahantu henshi hatandukanye, ni muri urwo rwego rero ushobora gusanga hari aho ushobora kuyikura ku muhanda, nk'aho baba bacuruza amayinite, bacuruza amafaranga yo mu kirere aya nyine aca kuri Mobile Money nk'uko tubyita.

Kugira ngo iterambere rya muntu ryihute, abantu barabivumbuye bishingira amakoperative cyangwa se amashyirahamwe. Muri urwo rwego iyo abantu bibumbiye mu mashyirahamwe bagakora bakinjiza amafaranga, bajya kuyabitsa muri banki. Izi banki zibafasha kuyungukira ayo mafaranga yabo ndetse zikaba zanabaha n'inguzanyo.

Amabanki n'amakoperative ni ahantu usanga abantu bashyira hamwe amafaranga yabo cyangwa se bagakora umurimo runaka ariko bagahurizamo amafaranga, kugira ngo bagire iterambere ryabo ryihute, aho usanga muri koperative bahakorera umurimo runaka hanyuma amafaranga bungukiye muri koperative bakajya kuyabitsa muri banki.

Mu gihe umuntu ari mu mashyirahamwe ajyanye n'iterambere rye, aba agomba kubika amafaranga yo muri banki. Iyo amafaranga abaye menshi muri koperative cyangwa se muri ayo mashyirahamwe abantu bagiye bakusanya.

Kugira umuntu abashe gutera imbere, ntabwo yabyishobozi ubwe, niyo mpamvu abantu bize gukorera mu makoperative, cyangwa se mu mashyirahamwe muri rusange. Aya mashyirahamwe iyo bayakoreyemo amafaranga avuyemo, bajya kuyabitsa muri banki. Izo banki zishobora kubaguriza, zikanababikira.

Amashyirahamwe y'abantu ku giti cyabo cyangwa se abantu bihurije hamwe ni amwe mu hantu hakorera ibintu byinshi bigiye bitandukanye bibabyarira inyungu bikababyarira n'amafaranga, hanyuma abamaze kubona ayo amafaranga bayajyana kuyabitsa mu ma banki akabafasha kwizigamira ndetse akaba yabaha n'inguzanyo.

Utubari ni hamwe mu hantu abantu bajya kunywera inzoga, bitaba inzoga bikaba imitobe cyangwa se ibindi bintu mu gihe barangije akazi kabo ariko ntabwo twakirengagiza ko hari abantu birirwa mu kabari, bakanga gukora imirimo. Ni ngombwa rero kujya mu kabari mu gihe ucitse imirimo kugira ngo iterambere ryawe ryihute.

Mu tubari ni hamwe mu hantu ushobora gusanga ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, ushobora kuhasanga inzoga, imitobe ndetse n'amazi, muri ibi byose rero abantu baba baturimo utu tubari baba baje gufata ibitandukanye.

Utubari uba usanzwe ari ahantu abantu bajya kwidagadurira cyane cyane abantu bakunda kunywa inzoga ariko si abakunzi b'inzoga gusa kuko n'abandi bantu bashobora kujyayo, bashobora kujyayo bagiye kunywa nk'ibindi bintu bidasembuye birimo: amafanta, imitobe n'ibindi.

Utubari cyangwa se amabara nta hantu umuntu ajya gufatira icyo kunywa yaba inzoga cyangwa se ibitari inzoga bidasembuye byonda ngo wenda haza ibyishimo bye cyangwa se gushaka kwe, utubarira twungura abantu benshi badukoreramo cyangwa se abandi bantu batujyamo bagamije inyungu runaka wenda n'ibyishimo n'ibindi nkuko twabivuze haruguru.

Mu mabutike agiye atandukanye aho waba uri hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange, ushobora kuhasanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. ushobora kuhasanga imbuto zo kurya, ukahasanga ibyo guteka bitandukanye, ukahasanga ndetse n'abantu benshi babaje kubishaka.

Kugira ngo umuntu yoroherwe n'ubuzima ku isi tubamo agomba kwifashisha botike nk'ahantu ho guhahira mu buryo bworoshye mu gihe bitamusabye kujya kure cyane cyangwa se ahantu hatandukanye ba abisaba gusurata indi ntera y'urugendo rurera ahubwo agakora ibirometero bike kugira ngo ahahe ibintu byiwe.

Muri zabutike ushobora gusangamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi. Muri byo twavuga nk'imiti ya korogate cyangwa se imiti y'amenyo ifasha abantu kugira ngo bagire isuku mu kanwa. Ntabwo ari ibyo gusa kandi kuko ushobora kuhasanga n'ibindi bintu nkenerwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Ahantu muri butike ni ahantu ushobora gusanga ibintu byinshi bitandukanye wakenera mu buzima bwa buri munsi, ushobora kuba ushaka gutera inkweto yawe siraje ukanyayarukira kuri butike ukayigura cyangwa se ushaka kuba wamesa, ukanyayarukirayo ukagura isabune ubuzima bugakomeza.

Butike ni hamwe mu hantu ushobora guhahira ibintu by'ibanze ukenera byo kurya ukoresha mu rugo bitagusabye gukora urugendo rurerure, ahubwo bigasaba ko ufite n'amafaranga makeya ufite menshi wese ubona icyo wifuza kubera ko biba bikuri hafi.

Ku mabutike niho usanga umuntu, yaba ashonje cyangwa se akeneye ikintu runaka, ahanyarukira akajya kukireba bitamugoye ndetse no ku giciro kitamugoye cyane. Ku mabutike niho usanga, umuntu uhacururiza yunguka ndetse n'umuhahira akunguka kuko adategesha amafaranga menshi agiye guhaha.

Kugira umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza ni ngombwa ko aba afite ibintu byinshi akenera kandi akabibona hafi. Ni muri urwo rwego ashobora kwifashisha amabutike agakuramo ibintu byinshi bitandukanye. Niba akeneye nk'imitobe akajya kuyiguramo, amavuta yo kwisiga n'amavuta yo gutekesha.

Muri botike niho usanga serivisi nziza ndetse zinabangutse kubera ko butike ziri ahantu hose, ushobora kujya munsi y'urugo ukahasanga butike haruguru uhasanga butike hirya yarwo ndetse no hino ukahasanga butike bitewe n' nibyo ugiye gushaka. Ushobora gusangamo uburoso bw'amenyo, umuti w'amenyo ugufasha ako kanya mu gihe ubikeneye.

Botike ni amasoko aba ari ahantu hatandukanye mu duce tugiye dutandukanye yaba mu mujyi cyangwa mu byaro, aya masoko ushobora kujya kuyahahiraho igihe icyo ari cyo cyose kuko ahora afunguye nta kibazo cyaho kandi ibintu by'aho biba bihendutse, hari n'amasosoko yoroshya ubuzima kuko ibintu by'aho uba usanga biri ku giciro bitandukanye n'uko wajya kubigura mu mujyi cyangwa ahandi hose warangurira.

Ahitwa kuri butike ni ahantu umuntu ashobora kujya guhahira icyo kurya, icyo kunywa n'ibindi bintu bitandukanye byaba serivisi, ushobora kujya kuhagura amayinite, ni amasoko muri make ushobora gusanga mu duce dutandukanye tw'Igihugu utari na kure yo mu rugo iwawe bishobora kugufasha rwose kuba wakora icyo ushaka cyangwa se wateka icyo ushaka mu gihe ubishakiye.

Ibikorwa byo mu nsengero zigiye zitandukanye, bishobora kwinjiza amafaranga bigatuma n'urwo rusengero hari icyo igihugu kirwungukiraho, ni muri rusange nyine urebye muri ibyongibyo ushobora gusanga abapasiteri binjirije Igihugu, mu gihe baba bari gusora.

Hoteli na moteri n'inyubako ziba zitandukanye ariko zitanga serivisi zijya gusa usanga hotel ari inze ifite ibyumba byinshi ndetse byagutse binahenze ubu bifite kapasite cyangwa se ubunini bugiye butandukanye n'ubwa moteri kuko moteri nayo usanga ari ibyumba bike cyane bitoya binaciriritse ugereranyije na hoteli.

Hoteli na moteli ni inzuga usanga zitandukanye bigendanye n'ubunini bwazo, cyangwa serivisi zitangirwamo. Hoteli inzu igizwe n'ibyumba binini ndetse byagutse biba ari na byinshi, hanyuma moteli inzu iba igizwe n'ibyumba bitoya, ndetse usanga ari na bikeya.

Hoteli na moteli n'inyubako ziba zitandukanye, bigendanye na serivisi zitangwamo ziba zitandukanye ,izitangwa muri hoteli ntabwo zitangwa muri moteli, ku bijyanye n'ingano yabyo uba usanga hotel ari inzu igizwe n'ibyumba binini byagutse, ndetse ugasanga ni na byinshi, mu gihe moteli bitaba ari uko ahubwo biba bihabanye.

Hoteli na moteli usanga hari ibyumba bitandukanye cyangwa se inyubako zitandukanye bigendeye uko icyumba kiba giteguye, uba ushobora gusanga muri hoteli icyumba kirimo ibintu byinshi bigiya bitandukanye, ugasanga hari nk'agacupa k'amazi, ugasanga harimo amatelefone y'ubutabazi cyangwa se n'itumanaho riteye ritandukanye dukunze kwita WIFI.

Hoteli na moteri ni ibintu bibiri bitandukanye, bigendanye n'inyubako ukuntu ziba zingana. Hoteli aba ari inyubako nini ifite ibyumba byinshi kurenza moteri. Mu gihe moteri yo aba ari ibyumba bitoya ndetse bikeya, iyo nyubako iba ifite kandi bigendanye na serivisi batanga ntabwo ziba zingana kuko bigendanye n'amafaranga batanga uyishyuramo cyangwa se wayikonsomye ntabwo aba angana.

Hoteli na moteli, uba usanga ari inyubako zitandukanye, ariko zisa nk'izitanga serivisi zijya gusa. Muri hoteli uzahasanga ibyumba binini ndetse byagutse, bishashe ku buryo butangaje cyangwa se ku buryo bw'umwihariko. Bitandukanye n'ibyo muri moteli. uzasanga ari ibyumba bigufi cyangwa se bitoya atari na byinshi.

Hoteli na moteri usanga ari inzu zijya gusa, kubera ko zijya gutanga serivisi zijya gusa n'ubundi. Ariko zigatandukanywa ko izo serivisi zitangwa mu buryo butandukanye, cyangwa se zigatandukanyirwa ku bunini bwazo.

Mu buryo bugaragara cyangwa se butaziguye usanga moteri na hoteli ari inzu zubatse mu buryo butandukanye, uzasanga henshi hoteli zifite ibyumba byinshi hanyuma moteri zifite ibyumba bitoya ndetse na bikeye, ahenshi kandi izaasanga serivisi zitangwa cyangwa se ibihatangirwa byose biba bitandukanye mu rwego rwabyo.

Amasoko n'amahahiro aciriritse ni hamwe muhantu umuntu agomba kugenda guhahira ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, agashora nk'itungo cyangwa se ibindi bicuruzwa afite mu rugo kugira ngo abashe kunguka amafaranga yamugirira akamaro mu buzima bwe.

Ubundi kugira ngo utandukanye imyenda cyangwa se ireke kwivanga, ireke no kwipfunyarika, uba ugomba kuyishyira ahantu hayirinda ibyo bintu byose cyangwa se byahatuma n'imbeba ziyirya, ukuyitandukanya ukayishyira ku tuntu byibuze tuyifata tukayirinda kuba yatunda uruhumbu yanuka n'iyo myanda yose cyangwa se uwo mwuka mubi urimo ukavamo, byose kabisa ukabikesha akantu kabifata cyangwa se ibi bigatuma inanikwa neza.

Iki gikoresho cyitwa imbabura. Gikoreshwa abantu bagikoreshaho wenda ushobora kuvuga ko bagikoresha bateka, bashyushya amazi, botsaho ibigori, bagikoraraho ibintu byinshi bitandukanye, igikoresho rero mu gisize irangi, ni gishyashya ntabwo kiracyakoreshwa na rimwe muyandidi magambo nyine kiracyari gishya. Ntabwo cyari cyakoreshwaho n'umunsi umwe cyangwa se ntabwo bari bagitekaho.

Ubucuruzi bw'ibintu, n'amatungo uba usanga ari ubucuruzi bukorewe ahantu hatandukanye. Buri mu isoko, mu butike ndetse n'ahandi. Mu isoko rero ni ahantu ashobora kujyana ibyo agomba gucuruza, ndetse akajyana n'ibyo ahakora bitewe n'amafaranga afite.

Amasoko yo ku muhanda ni amwe mu masosoko ashobora gufasha umuntu yaba ushaka kugurisha, ushaka kugura, bose bagafashwa mu bijyanye no kuba bashoye nyine, aba ngaba bayagurishamo uba usanga ari abantu bunguka kubera ko uciye ku muhanda abasha kubenguka ibicuruzwarwa byabo.

Amasoko yo ku mihanda ubusanga ari amasoko afite ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibicuruzwa byo mu rugo ibikoresho bigiye bitandukanye, ushobora kwifashisha hakazamo ibiribwa n'ibinyobwa umuntu akenera mu buzima bwe bwa buri munsi.

Amasoko yo ku mihanda, ni amasosoko afasha abantu benshi batandukanye. Ushobora kuba udafite umwanya wo kujya mu isoko ryabugenewe, ariko aya amasosoko yo ku muhanda akaba yagufasha, mu gihe ukeneye ikintu runaka byaba ibiribwa, ibyo kwambara, n'ibindi.

Ubucuruzi muri rusange cyangwa se amasoko yo ku mihanda ni ahantu ushobora gusanga umuntu ari gushakira amafaranga afite ibyo ari gucuruza, ibyo bacuruzi ntabwo aba ari ibiribwa gusa ahubwo ushobora gusangamo n'imyambaro, harimo inkweto, imyenda n'ibindi.

Amasoko yo ku mihanda ni amwe mu masoko ashobora gufasha umuntu muri rusange, umuntu ashobora kujyanayo ibyo afite kugurisha bakamuha ibyo agura ndetse akunguka n'amafaranga kuri uwo nyine wabishoye.

Amasoko yo ku muhanda n'amasoko usanga afasha abantu mu buryo bugiye butandukanye, umuntu ashobora kugira ikibazo k'inzara ari mu masaha ya saa sita cyangwa se, ari nimugoroba akajya kuri ako gasoko agahaha akagira ibitunga umubiri we akuye kuri iryo soko.

Amasoko muri rusange yaba amasoko yo ku mihanda cyangwa se amasoko yagutse, aba ari amasoko umuntu ajya guhahiraho ibintu byinshi bitandukanye, ushobora kuba ukeneye nk'inyanya, avoka, imineke n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, ushobora gukenera ukajya kuri ayo masoko.

Muri resitora ni ahantu umuntu ashobora kujya kurira ibyo kurya agafata n'icyo kunywa mu gihe yumva agishaka. Ibi bikorwa mu gihe umuntu afite amafaranga ye kugira ngo anoze serivisi ndetse abashe kwitabwaho n'abo ahasanze.

Muri za resitora ni ahantu umuntu ashobora kujya gufatira icyo kurya, icyo kunywa ndetse akaharebera n'izindi serivisi zigiye zitandukanye, mu maresitora usanga abantu benshi baharuhukira bagafata ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira babashe kwinezeza imibiri yabo bameze neza, ama resitora usanga afite isuku ameze neza, kimwe n'uko tutirengayije ko hari amaresitora ushobora gusanga ibyo ngibyo atabyujuje ahubwo ashobora no kuguteza ibibazo.

Ubutwazi bw'ibintu n'abantu muri rusange, ubutwazi bushobora gukorwa n'abamotari, cyangwa abatwara moto zigiye zitandukanye, zori mu bwoko butandukanye, bava ahantu hamwe bajya ahandi, bahakura abantu cyangwa se ibintu byabo.

Abatwazi b'ibinyabiziga, ni abantu bafite umumaro igiye itandukanye. Muri abongabo bashobora gutwara abantu babavana ahantu hamwe babajyana ahandi, cyangwa se bagatwara ibicuruzwa, n'ibindi bintu muri rusange babivana ahantu hamwe babijyana ahandi.

Abatwara ibinyabiziga baba bagomba kwigengesera bakagira isuku kugira utwaye icyo kinyabiziga n'uwo atwaye bakomeze kugira ubuzima bazira umuze bakagendera ku muvuduko uteganyijwe na leta bakirinda n'uburangazi nko kuvugira kuri telefone n'ibindi.

Ibinyabiziga biririmo amoko atandukanye ushobora kuvuga moto, moto ishobora guheka umuntu umwe, igaheka imizigo ikaba yaheka n'ibindi bintu byinshi muri rusange ibivana ahantu hamwe, cyangwa se ibijyana ahantu handi.

Ibinyamitende birimo amoko menshi: hari amagare, hari moto, hari n'ibindi bigiye bitandukanye cyangwa se ibyo by'ibinyabiziga bishinzwe gutwara imizigo y'abantu, abantu muri rusange; ibyo byose byifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo bukomeze kugenda neza.

Abatwazi b'amagare ni abantu b'ingenzi cyane muri ubu buzima cyane cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda, muri ibi bihugu by'inzira y'amajyambere kuko bafasha imirimo itandukanye nko gutwara imizigo, gutwara abantu mu duce na tumwe twa hano mu rwanda tudahanamye. Abatwazi b'amagare bagira umumaro mwinshi itandukanye kubera ko bafasha mu buzima nyine bwa buri munsi bw'umunyarwanda.

Abatwazi b'ibinyabiziga ni bamwe mu bantu batwara ibinyabiziga byabo bitandukanye, haba igare, moto n'ibindi, abatwazi baba bagomba kwitondera amategeko y'umuhanda kuko nabo baba bareba kugira ngo batagira uwo bahutaza.

Abatwazi b'ibinyabiziga usanga ari abantu batwara ibintu ndetse n'abantu, bashobora kubikura ahantu hamwe babijyana ahandi cyangwa se ugasanga aba ngabo bari gukora ku giti cyabo na bo bashobora kujya gutanga serivise ahantu runaka.

Abatwaza b'ibinyabiziga usanga ari abatwazi bitwarira muri kaburimbo y'imihanda nini igezweho cyangwase akaba yayitwarira mu mihanda y'ibitaka by'umwihariko y'ibiturage. Abatwazi b'ibinyabiziga rero usanga baba barangwa n'isuku kugirango abo babahetse cyangwase nabo bagaragare neza muri yo mihanda barimo.